Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi bakazabukoresha mu buzima busanzwe bityo bakabasha na bo kwiteza imbere. Aha turi mu kigo cy'amashuri abanza, aho hari umwarimu wazanye abanyeshuri hanze ari kubigishiriza hanze bakoresheje amabuye, bivuze ko ari kubafasha kubara bakoresheje amabuye.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abana batoya b'inshuke iyo bari kwiga bituma bafata mu mutwe, bigatuma baguka mu bwenge no mu gihagararo.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kuko abanyeshuri bavoma ubumenyi maze basohoka ishuri bakazabasha kwiteza imbere, bagateza n'imbere Igihugu muri rusange.

Uburezi ni umusingi w'iterambere. Aha turi ni mu kigo cy'amashuri abanza, aho bigaragara ko hari umwarimu wasohokanye n'abanyeshuri, ari kubigishiriza hanze, abigisha kubara amabuye, kubara bakoresheje amabuye.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi mu kongera amashuri y'incuke, aha turi ni mu ishuri ry'incuke aho abana batoya batarageza igihe cyo gutangira umwaka wa mbere baba baje kwigira, bakabigisha gutangira kubara imibare iri munsi y'icumi.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aha ndi kumwe n'abana biga mu mashuri y'inshuke bari kumwe n'abarimu babo, bari kubigisha kugira ngo babashe kwaguka mu bwenge ndetse no gukura mu gihagararo bafite ubumenyi kuri byose.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aho abanyeshuri bavoma ubumenyi, bakazabasha kubukoresha mu gihe bagiye mu buzima busanzwe. Aha turi ni mu kigo cy'amashuri abanza, aho hari abanyeshuri ndetse n'abarimu bari kubaha ibiganiro.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abana batoya babasha gucangamuka, gukura mu bwenge ndetse no mu gihagararo igihe bageze mu ishuri. Aha turi ni mu ishuri ribanza, aho umwarimu ari kumwe n'abanyeshuri hanze ari kubigisha.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aha turi ni mu kigo cy'amashuri abanza, aho abanyeshuri bari hanze ariko bigaragara yuko bari kugana mu ishuri bagiye gutangira amasomo yabo.

Mu burezi bw'u Rwanda, usanga abanyeshuri bagira imikino ibahuza, ugasanga hari amarushanwa hagati ya sikolere. Aho abanyeshuri batsinze, bahabwa imidari ndetse n'ibikombe, by'ishimwe.

Muri iyi myaka ya bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na gatanu, u Rwanda rwashyize imbaraga nyinshi mu guteza imbere ndetse no kongera amashuri y'inshuke, aha turi ni mu ishuri ry'inshuke, aho abana baza gukura ubumenyi, bityo bagakura mu bwenge no mu gihagararo.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi maze bakabasha kubukoresha mu buzima busanzwe bityo bakiteza imbere. Aha turi ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye ndetse n'abanza, aho bigaragara ko abanyeshuri bari mu ishuri, bari kwiga, turi mumasaha yo kwiga.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi bakazabwifashisha mu buzima busanzwe bityo bakabasha kwiteza imbere. Aha turi ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye, aho abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kubera ko abanyeshuri babona ubumenyi maze bakazabukoresha mu buzima bwo hanze, bityo bakabasha kwiteza imbere, ahaturi mu nzu y'isomero mu ishuri rikuru rya kaminuza y'urwanda ishami rya huye, aho harimo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, abanyeshuri baba basabwa kuza kubisoma.

Uburezi ni umusingi w'Iterambere, abanyeshuri bari mu kigo barimo barajya mu ishuri, bagiye gutangira amasomo yabo.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi bityo bakabasha kwiteza imbere mu gihe bageze mu buzima busanzwe. Aha turi ni mu ishuri rikuru ryisumbuye ndetse n'abanza, twageze mu cyumba cy'isomero, aho hari ibitabo byinshi bigiye bitandukanye abanyeshuri bifashishisha iyo bari kwiga.

Aha ngaha ni mu kigo cy'amashuri abanza, bigaragara ko iri shuri ari irya kera kuko rishakaje amategura, hari ibyicundo abanyeshuri bicundaho igihe basohotse hanze, bari gukina mu rwego rwo kuruhuka mu mutwe.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kuko abanyeshuri bavoma ubumenyi bityo bikazabafasha kwiteza imbere, aha turi ni mu cyumba cy'ishuri aho mwarimu yashushanyije umuntu ndetse n'ibice bigize umubiri w'umuntu, ari kwigisha abanyeshuri uko byitwa.

Aha ni mu kigo cy'amashuri abanza, bigaragara ko hari abanyeshuri bari mu idirishya abandi bari gusohoka, bageze igihe cyo kujya gukina bakaruhura mu mutwe, maze mu kanya bakari buze gusoma bagasubira gukomeza amasomo yabo.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kuko abanyeshuri babona ubumenyi basohoka ishuri bakabwifashisha mu kwiteza imbere, abanyeshuri bacu tubiteho maze babashe kuvoma ubumenyi bukenewe kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'igihugu muri rusange.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi, bityo bakabasha kwagukamo ubwenge ndetse no mu gihagararo, aha turi mu kigo cy'amashuri abanza aho hari abanyeshuri bari mu ishuri, abandi bari mu madirishya bigaragara yuko hari abanyeshuri basohotse hanze bari gukina, hari n'abandi batarabona akanya ko kujya gukina kubera ko amasomo agikomeje.

Uburezi ni umusingi w'iterambere ry'igihugu, kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi bakazabwifashisha mu gihe bari mu buzima busanzwe, utu ni udutafari turiho imibare bifashisha bafasha abana batoya kubara.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kuko abanyeshuri bavoma ubumenyi maze bakazabwifashisha mu gihe bari mu buzima busanzwe barasoje amashuri, aha ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye n'abanza, aho abanyeshuri bigira.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavomo ubumenyi maze bakazabukoresha mu buzima bwo hanze igihe barangije kwiga, aha turi mu kigo cy'amashuri abanza, aho abanyeshuri ubona ko bari mu ishuri barimo gukurikira amasomo.

Ikigo k'ishuri cy'amashuri abanza n'ayisumbuye, aho abanyeshuri bakura ubumenyi maze bukabafasha kwiteza imbere binyuze mu gushyira mu bikorwa ibyo bize mu ishuri. Twese nk'abaturage twite ku burezi bw'abana kuko ni ingirakamaro.

Ni byiza kwigisha abantu bose uburyo twagira isuku, maze tukirinda icyorezo cya mabage. Niyo mpamvu ahantu hose usanga hamanitse icyapa cyangwa se igishushanyo cyanditseho ngo:" Dutsinde virusi ya mabage". Ndetse n'uburyo wayirinda ukaraba isabune n'amazi meza.

Uburezi bw'u Rwanda bwamaze gutera imbere, aho usanga mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'ay'inshuke, abanyeshuri bajya kwiga maze saa sita zagera, bagafata amafunguro ya saa sita ku ishuri. Ibi ngibi bituma umubare w'abanyeshuri bitabira kwiga ugenda wiyongera.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi bakazabukoresha mu buzima busanzwe mu gihe barangije ishuri, bityo bakabasha kwiteza imbere. Aha turi ni mu kigo cy'amashuri abanza, aho abanyeshuri bari hanze bageze amasaha yo gukina, baje kuruhura mu mutwe, mukanya barasubira mu ishuri gusubira mu masomo yabo.

Uburezi ni umusingi w'iterambere. Aha turi ni mu ishuri, aho hari udutafari twanditseho imibare mwarimu akoresha ari kwigisha abana batoya kubara. Rero twite ku bana bacu babashe kubara bakiri bato, kuko niho bazabasha kwagura ubwenge.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi, maze bakazajya kubukoresha hanze, mu gihe bari mu buzima busanzwe. Aha turi ni mu ishuri, aho bigaragara ko harimo intebe gusa nta banyeshuri barimo, kubera ko bagiye hanze kuruhura mu mutwe.

Aha ni mu kigo cy'amashuri abanza n'ayisumbuye, abanyeshuri bari mu karuhuko ka saayine, barimo barakina kugira ngo babashe ku ruhura mu mutwe maze mu kanya nibasubira kwiga babashe gufata ibindi.

Uburezi ni umusingi w'iterambere. Aha turi mu mashuri abanza, aho abanyeshuri bicaye mu ishuri, bari kwigira muri groupe, bafashanya, kuzamurana, kubera ko bose ntabwo baba bahuje ubumenyi, ubyumva neza cyane asobanurira bagenzi babo muri groupe.

Aha ni mu kigo cy'amashuri abanza n'ayisumbuye cyitwa Kansi, hari amashami nka MCB, EKK ndetse n'andi mashami agiye atandukanye.

Aha ni mu kigo cy'ishuri rikuru rya kaminuza, aho hari icyapa cyanditseho ngo: "Welcome to our school", hakaba agashusho karimo Bikiramariya ndetse n'ikibuga cya Basketball.

Uburezi bw'u Rwanda bwamaze gutera imbere ku rwego rwo hejuru, kubera yuko abanyeshuri basigaye biga icyo bita Theory, barangiza bakarenzaho na Pratique, ibyo bize mu magambo bakabishyira no mu bikorwa, bityo bakabasha kugira ubumenyi buhagije.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kuko abanyuze mu ishuri bibafasha kwagura ubwenge. Aha turi ni mu cyumba cy'ishuri aho bigaragara ko hicaye abanyeshuri bateze amatwi ibyo bari kubwirwa.

Uburezi ni umusingi w'iterambere aho abanyeshuri bavoma ubumenyi maze bakazabukoresha bamaze gusohoka ishuri. Aha turi ni mu cyumba cy'ishuri aho abanyeshuri bari kwiga Imibare, bari kwiga isomo ry'Imibare kugira ngo bazabashe gukoresha iyo mibare mu buzima bwabo maze biteze imbere.

Iki ni ikigo cy'amashuri abanza n'ayisumbuye, cyitwa gurupe sikorere Save, abanyeshuri baza kwigiramo hano bakahakura ubumenyi buhagije.

Iki ni ikigo cy'amashuri abanza n'ayisumbuye cyitiriwe mutagatifu saint Joseph cya Kabgayi, abanyeshuri bari hanze mu karuhuko, mu kanya barasubira mu ishuri gukomeza amasomo yabo.

Inzu y'isomero aha turi ni mu cyumba cy'inzu y'isomero, aho ubona ibitabo bitandukanye abashakashatsi bifashisha bari gusoma ndetse n'undi wese ushaka gusoma ashobora kuza hano agatira igitabo.

Aha ni mu muhanda aho abanyeshuri bari kujya kwiga bagana ku kigo bigaho, tugeze ku cyapa kitwereka ko turi hafi kugera kuri ofise y'iki kigo.

Uburezi ni umusingi w'iterambere. Aha turi ni mu ishuri, aho abanyeshuri bari bari kwiga ariko bakaba bamaze gukora isuku kugira ngo ejo bazigire ahantu hameze neza hafite isuku, niyo mpamvu ubona ko nta munyeshuri uri muri iri shuri.

Aha ni mu muhanda urabona ko harimo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, barimo berekeza ku ishuri guhabwa amasomo azabafasha kwagura ubumenyi ndetse bakazabasha kwiteza imbere.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye hasi bari guhabwa ikiganiro cy'uko umunyeshuri mwiza agomba kwitwara ndetse n'uko agomba kwiga kugira ngo agire ubumenyi buhagije.

Uburezi ni umusingi w'iterambere ry'Igihugu. Kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi bakabasha kubukoresha mu buzima busanzwe, bityo bakiteza imbere. Aha turi ni mu kigo cy'amashuri abanza, aho kuri buri gikuta hagiye hashushanyijeho Igihugu ndetse n'imigabane harimo Afurika.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi bakazabukoresha mu buzima busanzwe bakibonera iterambere. Aha turi ni mu cyumba cy'ishuri rikuru ry'amashuri yisumbuye, aho mwarimu ari mu ishuri ari kumwe n'abanyeshuri ari kubigisha amasomo.

Aha turi mu kirori kwishimira ko habaye imikino ihuza abanyeshuri maze hakavamo abatsinda bakaba aba mbere, tukaba tugiye kubahemba, abanyeshuri nabo bakeneye siporo kugira ngo babashe kuruhura mu mutwe, ndetse no kugorora umubiri muri rusange.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko bufasha abanyeshuri kuvoma ubumenyi, bakabasha kubukoresha mu buzima busanzwe. Ishuri ni ingenzi kuri buri muturarwanda wese.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aha turi ni mu cyumba cy'ishuri, aho hari abana bari gukurikira mwarimu ku kibahu arimo yigisha.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi maze bakabwifashisha igihe bagiye hanze bamaze kwiga, abanyeshuri baricaye ahantu hamwe bateze amatwi bumva ibyo mwarimu abigisha.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aho abanyeshuri bavoma ubumenyi, maze bakazabwifashisha mu buzima busanzwe, igihe barangije kwiga. Aha turi ni mu kigo cy'amashuri abanza, aho abanyeshuri bicaye hasi, bari kumva ibiganiro mwarimu abaha bijyanye n'amasomo.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aho abanyeshuri bavamo bumenyi maze bakazabukoresha mu gihe bamaze gusohoka ishuri basoje amasomo. Aha turi mu ishuri ryo mu wa gatanu mu mashuri abanza. Aho hari umwarimu uri kwigisha isomo ry'Ikinyarwanda.

Aha ni mu cyumba cy'ishuri ryisumbuye, aho abanyeshuri barimo kwigira amasomo agiye atandukanye, buri saha haza umwarimu wigisha isomo maze bakigana iminota mirongo ine, iminota mirongo ine yarangira agasohoka hakazamo undi.

Aha turi ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye cyitwa Ofisiyeri do Butare, ni ahantu abanyeshuri baza bakigira bakavoma ubumenyi buzabafasha kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu muri rusange.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi, bakazabasha kubukoresha mu buzima busanzwe maze bakiteza imbere, aha turi ni mu cyumba cy'ishuri aho harimo abanyeshuri ndetse n'umwarimu uri kubigisha bigaragara ko abanyeshuri bashishikariye gutega amatwi.

Uburezi ni umusingi w'iterambere. Aha turi ni imbere y'ikigo cy'amashuri abanza n'ayisumbuye, aho abanyeshuri bajya kwiga, maze bakabona ubumenyi bubafasha kwiteza imbere, mu buzima bwabo.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi maze bakazabukoresha mu buzima busanzwe, bakabasha kwiteza imbere, aha turi ni mu ishuri rikuru rya kaminuza aho abanyeshuri bigira bakabona ubumenyi buzabafasha kwiteza imbere ejo hazaza.

Aha ni mu ishuri aho hari umwarimu uri kwigisha imibare ku kibaho, abanyeshuri barakurikiye cyane, bigaragara ko bishimiye kwiga imibare. Tuti, twohereze abana bacu ku ishuri kugira ngo babashe kwaguka mu bwenge ndetse no kugira isuku.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi bakazabukoresha mu buzima busanzwe bityo bakabasha kwiteza imbere. Aha turi ni mu ishuri rikuru ry'u Rwanda ryigisha imyuga urahabona abanyeshuri bari kureba uko bakoresha ibikoresho bigiye bitandukanye.

Uburezi bw'u Rwanda burimo buragenda butera imbere, aho usanga iyo sas sita zigeze, abanyeshuri bateranira ku meza maze bagafata amafunguro, amasomo akaza gukomeza nta munyeshuri utashye.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi, bakazabukoresha mu buzima bwabo busanzwe. Aha turi ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye, aho abanyeshuri bari kwiga gukoresha computer.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi bakazabasha kubukoresha mu buzima bwabo busanzwe maze bakiteza imbere, u Rwanda rwahisemo kubaka amashuri kandi meza agezweho kugira ngo abana babashe kwiga neza.

Uburezi bw'u Rwanda bwateye imbere ku rwego rwo hejuru, aho abanyeshuri bose basigaye biga bafite imfashanyigisho ubwo ndavuga ibitabo imbere yabo, usanga buri munyeshuri afite igitabo kubera ko ibitabo byabegerejwe.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kubera ko abanyeshuri bavamo ubumenyi, maze bakazabukoresha mu buzima busanzwe, bityo bakiteza imbere. Aha turi mu kigo cy'amashuri yisumbuye n' abanza, aho abanyeshuri bicaye hamwe hanze, bari gutega amatwi impanuro z'umuyobozi wabo.

Aha ni mu ishuri rikuru rya kaminuza, twageze mu cyumba cy'ishuri aho hari intebe nziza cyane umunyeshuri yicara anandikiraho maze agatega amatwi mwarimu kuko ikibaho kiba kiri imbere ye.

Aha ni mu kigo cy'ishuri ryisumbuye, aho twageze mu cyumba cy'ishuri, harimo umwarimu ndetse bigaragara ko ku kibaho mwarimu yari arimo yigisha, abanyeshuri bashishikaye cyane bateze amatwi mwarimu.

Iki ni icyumba cy'ishuri aho bigaragara ko harimo abanyeshuri ndetse barimo bariga bashishikaye cyane. Twite ku burezi kugira ngo abana bacu bazavemo abayobozi beza b'ejo hazaza bafitiye igihugu akamaro.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kuko abanyeshuri bahabona ubumenyi maze bakabukoresha biteza imbere, twite ku burezi kuko uburezi budufasha kwiteza imbere.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kuko abanyeshuri bavoma ubumenyi maze bamara kurangiza ishuri bakazifashisha ubumenyi bakuye mu ishuri kwiteza imbere, twite ku banyeshuri bacu maze bajye babasha gusohokana ubumenyi buhagije.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri babwifashisha iyo bari mu buzima busanzwe bigatuma biteza imbere. Aha turi ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye ndetse n'abanza, aho hari abanyeshuri bari hanze, bari guhabwa impanuro mbere yuko binjira mu ishuri bagatangira amasomo.

Aha ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye, ubu tugeze muri dorutwari aho abanyeshuri barara, turi kureba ibitanda bibiri, kimwe kiri hasi, ikindi kiri hejuru, aho buri munyeshuri afite igitanda cye.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bakoresha ubumenyi bakuye mu ishuri, mu buzima bwabo busanzwe ugasanga iterambere ryabo na bo rikihuta, aha turi ni mu ishuri, aho abanyeshuri bari kumva ikiganiro cyerekeranye n'amasomo kiri gutangwa kuri tereviziyo.

Aha ni mu kigo cy'ishuri ryisumbuye, aho bigaragara ko hari ibendera ry'Igihugu ndetse n'inzogera bavuza mu gihe amasaha yo gusohoka ageze cyangwa se igihe isaha y'umwarimu irangiye.

Aha ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye, bigaragara yuko abanyeshuri bigira muri etaje, hari abanyeshuri bambaye inifomo baba batebeje, ubu bari hanze bari muri Break, mu kanya barasubira mu ishuri maze bakomeze amasomo yabo.

Abanyeshuri bahuye bari ku kibuga cy'umupira w'amaguru bari gukina umukino wa gishuti, ni ibigo bibiri byahuye aho biri gukina umukino wa gishuti, abanyeshuri bakenera siporo nyuma yo kwiga kugira ngo babashe kuruhura mu mutwe ndetse no kwidagadura muri rusange.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi, maze bakazabukoresha mu gihe bageze mu buzima busanzwe bakabasha kwiteza imbere, aha turi ni mu kigo cy'amashuri cya mubuga, aho abanyeshuri bari mu ishuri, kandi cyane bigaragara yuko bashishikariye kwiga.

Aba banyeshuri bari guserebura intsinzi. Abanyeshuri baturutse ku bigo bibiri bagiye mu marushanwa, bari gukina umupira w'amaguru. Ikipe imwe yatsinze bigaragara yuko iri guserebura, bityo siporo ku banyeshuri irakenewe cyane kuko ituma babona ibyishimo, bakabasha kuruhuka mu mutwe.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi maze bakabukoresha mu buzima busanzwe bakabasha kwiteza imbere. Aha turi ni muri kaminuza, aho abanyeshuri baza kuvoma ubumenyi.

Uburezi bw'u Rwanda bumaze gutera imbere ku kigero cyo hejuru, aho usanga leta y'u Rwanda ishishikariza abanyeshuri kwitabira amashuri y'imyuga, kubera ko abafasha kubona amafaranga, batarindiriye kubona akazi ka leta.

Uburezi bumaze gutera imbere mu Rwanda, abanyeshuri kuri ubu basigaye bigira mu itaje, hano turahabona itaje igeretse kane, bita koyika.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi, bakazabukoresha iyo barangije amashuri, maze bakabasha kwiteza imbere mu buryo butabagoye.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aho abanyeshuri bavamo ubumenyi, maze bamara gusohoka ishuri basoje, bakabasha kwiteza imbere bakoresheje ubumenyi bakuye mu ishuri.

Aha ni mu ishuri rikuru rya kaminuza ryigisha imyuga ryiswe RP Tumba, aha turi ni mu cyumba, aho umunyeshuri ari kwiga gukoresha ibikoresho byifashishwa mu mwuga.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kuko abanyeshuri bavoma ubumenyi, bakabasha kuziteza imbere, iri ni ishuri rikuru rya kaminuza, aha turi mu kigo mo imbere, bigaragara ko abanyeshuri bigira muri etaje.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abantu iyo bahawe uburezi babona ubumenyi buhagije buzifashishwa mu rwego rwo kwiteza imbere, aha turi ni mu ishuri rya kaminuza y'u Rwanda ryigisha imyuga, hano bari gukora igitanda.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi, maze bakazabwifashisha mu buzima busanzwe bityo bakiteza imbere. Aba ni abanyeshuri biga ubuvuzi kugira ngo bazabashe kubona akazi maze na bo biteze imbere.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi bakabasha kubukoresha mu busanzwe bwabo bakabasha kwiteza imbere. Aha turi ni muri Kaminuza y'u Rwanda iri hafi y'ikigega cy'amazi kibamo amazi aba yateguwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, bityo amazi y'abanyeshuri bakoresha banywa akaba ari meza kandi asukuranye ubuhanga.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aho abanyeshuri bavoma ubumenyi, maze bakazabukoresha mu buzima busanzwe, bakazabasha kwiteza imbere, aha turi ni mu mashuri makuru ya Kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Huye, aho abanyeshuri bari kwiga baturutse imihanda itandukanye.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi ku ishuri maze bakajya kubukoresha hanze mu gihe bageze mu buzima busanzwe. Ni byiza kwita ku burezi kubera ko ari umusingi w'iterambere.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi, maze bakazabukoresha bageze mu buzima bwo hanze. Aha turi ni mu cyumba cy'ishuri, muri Kaminuza y'u Rwanda. Bigaragara ko abanyeshuri, bateze amatwi mwarimu, bari kumva icyo abigisha.

Uburezi ni umusingi w'iterambere. Aha turi ni mu cyumba cy'ishuri rikuru rya kaminuza, aho abanyeshuri bari kwiga batega amatwi mwarimu, kugira ngo bumve ubumenyi ari kubungura.

Kaminuza y'u Rwanda yahaye abanyeshuri bose laptop, ubu basigaye biga basomera kuri laptop, aho mbere batari bafite mashini bakoreshaga porojegiteri ariko ubu bari kubikoresha byombi, bavuga yuko bibafasha cyane.

Aha turi ni imbere y'ikigo cy'ishuri rikuru rya Kaminuza y'u Rwanda, aho bigira ibijyanye n'ubuvuzi, abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi ni aha ngaha bigira.

Aha ni muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye. Aha turi ni muri Batima Centrale, aho abanyeshuri bigira ba kaminuza, bigatuma babona ubumenyi buhagije kuko haba hari icyo bita wifi, internet bihagije kabisa.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kubera ko abanyeshuri bavomo ubumenyi maze bakabasha kuziteza imbere bari mu buzima busanzwe, aha turi ni mu cyumba aho abanyeshuri barara bityo bugacya mu gitondo bajya gukurikira amasomo ku ishuri.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kuko abanyeshuri bavoma ubumenyi bakazabukoresha mu buzima bwabo busanzwe bakabasha kwiteza imbere, aha turi ni muri kaminuza y'u Rwanda, aho bigisha abanyeshuri ibijyanye n'ubuvuzi, hano bateraniye hano mu kwiga.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aha turi ni muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, twegereye hafi y'aho abanyeshuri barara muri hostel, urabona ko banitse imyenda kugira ngo ejo bazajye ku ishuri bambaye imyenda isukuye.

Uburezi ni umusingi w'iterambere; kubera ko abanyeshuri bavamo ubumenyi, bakazabukoresha mu buzima bwabo busanzwe babasha kwiteza imbere. Aha turi ni muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye; murahabona ndi ku cyapa kigaragaza yuko ari muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, aho abanyeshuri bigira.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko ubumenyi abanyeshuri bakura mu ishuri, babyifashisha mu buzima bwo hanze bakazabasha kwiteza imbere, aha turi ni muri hostel aho abanyeshuri ba kaminuza barara bityo babyuka mu gitondo bakabasha gukurikira amasomo badakererewe.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aha duherereye ni muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ndi hafi y'inzu bita Batiment Central, iherereye muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aha ni ho abanyeshuri bigira maze bakabasha kubona ubumenyi buhagije.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi. Bityo bakazabasha kubukoresha mu buzima busanzwe, bakiteza imbere. Aha turi mu cyumba aho abanyeshuri ba kaminuza barara. Bigaragara yuko harimo igitanda, amazi yo kunywa ndetse n'icyayi bafata mu gitondo. Harimo n'umuti wo gukaraba uzwiho kwica udukoko ku ntoki.

Uburezi ni umusingi w'iterambere. Aha turi ni mu cyumba cy'inama, aho abanyeshuri ndetse n'ababasuye b'abayobozi bakuru, bicaye barimo barahabwa impanuro.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aha turi ni mu cyumba cy'ishuri aho abanyeshuri bari kwiga gukoresha ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kuko abanyeshuri babona ubumenyi buhagije, bakajya mu buzima busanzwe kubushyira mu bikorwa, maze bakiteza imbere, n'igihugu kigatera imbere muri rusange.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavamo ubumenyi maze bakajya kubukoresha hanze, hano biragaragara yuko abanyeshuri basezerewe ndetse baje gukora icyo bita garaduwesheni.

Ubu u Rwanda rumaze gutera imbere ku rwego rwo hejuru, aha turi ni muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Haye, neza neza twinjiye mu cyumba bigaragara ko nta banyeshuri barimo, kubera ko abanyeshuri uno munsi ntago babashije kuza kwiga.

Aha ni mu kigo cy'ishuri rikuru rya kaminuza, aha turi ni mu cyumba cy'inzu yiswe inzu mberabyombi, urabona ko harimo intebe abanyeshuri bicaraho ndetse n'umuntu uri gukoresha laptop.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavama ubumenyi bakabwifashisha mu buzima busanzwe bityo bakabasha kwiteza imbere. Aha turi ni muri kaminuza y'u Rwanda turi hafi aho abanyeshuri barara urabona ko mo bakoze isuku bakamesa imyambaro yabo kugira ejo bazajye mu ishuri bafite isuku.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, abanyeshuri bavoma Ubumenyi mu ishuri bakazabukoresha mu gihe bari mu buzima busanzwe, aha turi ni mu isomero, ni mu nzu y'isomero, aho abanyeshuri baza bagatira ibitabo.

Akazi ni umusingi w'iterambere, aho usanga abanyeshuri bavoma ubumenyi bazifashisha mu buzima busanzwe bityo bakiteza imbere, aha turi ni muri Kaminuza y'u Rwanda, aho harimo abanyeshuri mu ishuri, barimo bariga bigira aho bita muri odilivesike, uburezi ni ishingiro ry'iterambere.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi mu ishuri, bakazabukoresha mu buzima busanzwe, maze bakabasha kwiteza imbere. Aha turi ni mu biro by'umwarimu wigisha muri kaminuza ishami ry'u Rwanda, aho avuga ko uburezi ari umusingi w'iterambere.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi maze bakabukoresha mu buzima bwo hanze, aha turi ni muri dorotwari aho abanyeshuri barara biga muri kaminuza, bigaragara ko harimo umunyeshuri aho yicaye ku buriri ariko arimo gusomera muri raputopu.

Aha ni mu cyumba kirimo abantu baturutse ahantu hagiye hatandukanye ariko bafite imishinga bahagarariye baje gufata amahugurwa bigaragara ko hari umuntu w'umwarimu uri kubigisha abahugura ubumenyi muri rusange.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kuko abanyeshuri bavoma ubumenyi bityo bakabwifashisha mu kwiteza imbere iyo bageze mu buzima busanzwe. Aha turi ni ku kibuga abanyeshuri bakiniraho Basketball.

Aha ni mu ishuri rikuru rya kaminuza y'u Rwanda, iyi ni inzu aho dusangamo umukozi ufasha abanyeshuri bafite igitekerezo cy'umushinga, akabafasha kuwiga neza ndetse no kubona inkunga yo kubafasha gushyira mu bikorwa uwo mushinga.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi bakazabasha kubukoresha mu buzima busanzwe maze bakiteza imbere, aha turi ni mu cyumba cy'ishuri rikuru rya Kaminuza aho higira abanyeshuri biga ubuvuzi, bari mu ishuri barimo kureba uko bakoresha ibikoresho by'ubuvuzi.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aha turi ni muri dorotwari aho abanyeshuri barara aho baryama iyo bamaze gukurikirana amasomo kugira bitegure uko bazakurikirana ay'ejo.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aha turi ni mu nzu ya hostel aho abanyeshuri barara biga muri Kaminuza, urabona etaje baba bamanutseho imyenda ndetse n'uburiri bararaho.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aho abanyeshuri baza bakavoma ubumenyi maze bakazabwifashisha mu buzima busanzwe. Aha turi ni muri Kaminuza y'u Rwanda Ishami rya Huye ahegereye ku nzu mberabyombi bise Auditorium.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, nk'abanyeshuri baza bakavoma ubumenyi maze bakazabasha kwibeshaho babikesheje ubumenyi bakuye mu ishuri. Aha turi ni muri kaminuza y'u Rwanda, aha turi ni nko mo imbere mu nzu aho ibiganiro bikunda kubera iyo bagize abashyitsi.

Aha ni mu ishuri rikuru rya kaminuza y'u Rwanda aho hari abanyeshuri bari kugenda mu kibuga hagati, barimo bajya aho bigira mu byumba bigiramo bityo twite ku burezi kuko uburezi buzana iterambere mu buryo bwihuse.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi bakazabasha kubukoresha bari mu buzima busanzwe, bityo bakabasha kwiteza imbere, aha turi ni imbere y'ishuri rikuru rya kaminuza yiswe Catholic University of Rwanda, aho abanyeshuri baza kuvoma ubumenyi.

Aha mureba ni mu cyumba cy'ishuri rikuru rya Kaminuza, aho abanyeshuri bari kwiga ICT, bari kwiga isomo rya ICT, aho biga gukoresha mashini neza ndetse bakaba bishimiye ko bizabafasha kwiteza imbere, bitewe n'umuvuduko w'ikoranabuhanga igihugu kigezeho.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aho abanyeshuri babasha kuvoma ubumenyi bakazabukoresha mu buzima busanzwe maze bakiteza imbere. Aha turi ni mu cyumba cy'amashuri makuru, aho abanyeshuri ubona ko basohotse bakajya gukina ariko basize amakayi n'amakaramu ku meza, nibagaruka barasubukura amasomo.

Aha ni mu kigo cy'ishuri aho nk'ababyeyi twaje kureba abayobozi ndetse no kureba ko abana bacu biga, turebe niba biga neza. Umubyeyi wese agomba gukurikirana umwana we ku ishuri, maze akamenya niba yiga neza bityo bikamufasha gushishikarira kwiga.

Aha ni mu ishuri rikuru rya kaminuza, aho tugeze ku cyapa kitwereka ko turi hafi ya resitora ndetse na hositeri abanyeshuri bararamo.

Uburezi ni umusingi w'iterambere aha turi ni mu cyumba muri hostel aho abanyeshuri ba kaminuza barara, urabona yuko ari inkweto muri etajeri ndetse n'amazi bakoresha aba bakunda kunywa.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aha turi ni mu ishuri aho abanyeshuri bo muri kaminuza igihe bari kwiga bifashisha porojegiteri bagaporojegita ku kibaho maze ibintu bakabibona neza ndetse n'uri inyuma akaba aharuzi.

Uburezi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere, aha turi ni mu ishuri ryigisha gufotora. Hari abanyeshuri bari kwiga uburyo bafotora, kugira ngo bazabyaze ubwo bumenyi umusaruro, mu gihe bazaba bari mu buzima bwo hanze.

Aha ni mu ishuri rikuru rya kaminuza y'u Rwanda, bigaragara ko abanyeshuri bigira muri etaje, tujye twitabira gahunda z'uburezi kuko uburezi ni umusingi w'iterambere.

Uburezi ni inkingi y'iterambere. Aho abanyeshuri biga bakavoma ubumenyi maze bakazabukoresha igihe bagiye mu buzima bwo hanze. Aha turi ni muri Kaminuza y'u Rwanda, aho abanyeshuri bari kuva ku ishuri, bagiye gushaka amafunguro ya saa sita.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavomo ubumenyi maze bakabasha kubukoresha biteza imbere iyo bari mu buzima busanzwe. Aha turi ni mu macumbi y'abarimu bigaragara ko abarimu ariho baba kugira ngo bajye bagera ku kazi hakiri kare.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi, bityo bakabasha kwiteza imbere. Aha turi ni mu ishuri rikuru rya kaminuza y'u Rwanda, aho abanyeshuri bari kumva ibiganiro bitandukanye, bishobora kubafasha kwiteza imbere.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kubera ko abanyeshuri bavomamo ubumenyi maze bakazabukoresha mu buzima busanzwe bityo bakiteza imbere. Aha turi ni muri Kaminuza y'u Rwanda, urabona ko abanyeshuri basigaye bigira muri etaje. Bari kwagura amashuri, ano mashuri ntabwo aruzura ahubwo barimo barayategura neza.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi maze bakazabukoresha mu buzima busanzwe bityo na bo bakabashe kwiteza imbere. Aha turi ni muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho bigaragara ko abanyeshuri basigaye bigira muri etaje. Leta y'u Rwanda iri gushyira imbaraga mu guteza imbere uburezi, kugira ngo n'iterambere ry'igihugu ryiyongere muri rusange.

Aha ni mu ishuri rikuru rya kaminuza, aho duherereye ku biro by'umuyobozi w'iri shuri bita Campus Administrator, bityo abanyeshuri baza hano kuminuza amashuri yabo.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aha abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi, barimo kwiga ibice by'umuntu ndetse n'amagufwa agize umuntu, aho bari kwifashisha igishushanyo bita skeleton.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi bazabwifashisha bari mu buzima busanzwe bwo bakaba bakwiteza imbere. Aha turi ni mu kigo cy'amashuri ya kaminuza aho turi mu ishuri mo imbere bigaragara ko harimo projegiteri abanyeshuri bakoresha bari gusoma note ku kibaho.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma ubumenyi, bakazabasha kubukoresha mu buzima busanzwe bakiteza imbere, aha turi ni mu cyumba cy'ishuri rikuru rya kaminuza aho higira abanyeshuri benshi, twageze no mu cyumba aho abayobozi baba bicaye kugira ngo babashe kugeza serivisi ku banyeshuri.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aho abanyeshuri bavoma ubumenyi mu ishuri, bakazabukoresha bageze mu buzima bwo hanze, maze bakiteza imbere, aha turi ni muri hositeri aho abanyeshuri barara mu gihe bari gukurikirana amasomo yabo, urabona ko bananitse imyenda, kugira ngo ku wa mbere bazabashe gutangira amasomo, bambaye imyenda ifite isuku.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, kubera ko abanyeshuri bavomo ubumenyi, bakazabasha kubukoresha mu buzima busanzwe bityo bakiteza imbere. Aha turi ni muri Kaminuza ya Catholique. Abanyeshuri barimo baraturuka mu kigo bataha, bajya kureba amafunguro ya saa sita, kugira ngo baze kugaruka nimugoroba basubukure amasomo yabo.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, aho abanyeshuri bavoma ubumenyi maze bakazabukoresha mu buzima busanzwe, bityo bakiteza imbere, aha turi muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya huye, ahegereye aho imodoka z'abanyeshuri zitwara abanyeshuri ba kaminuza mu gihe bagiye mu rugendoshuri, aho baziparitse, bigaragara ko harimo abanyeshuri bagiye mu rugendo shuri kugira ngo babashe kureba aho bakora ibijyanye n'ibyo biga.